Umugezi ni igikoresho cyiza kandi cy'ubuziranenge, kidufasha kubona amazi meza ndetse afite isuku, bidufasha no kugira ubuzima bwiza. Aya mazi meza rero tuyakoresha mu bintu byinshi bitandukanye, bidufasha kugira ubuzima bwiza, harimo nko kuyanywa, kuyatekesha ndetse no kuyakarabisha.